Abanyeshuri biga mwishuri ry'inincuke barimo kwidagadura, abanyeshuri bambaye hasi ubururu, hejuru umweru ndetse n'udupira twamaboko tw'ubururu iruhande rwabo hari intabire.

lcyapa kigaragaza umurenge wa nyagatare, gifite nimero zigiye zitandukanye bitewe n'ibihakorerwa ,ndetse bika bigaragara ko ari icyapa kigaragaza ikigo, kuko kigaragaza amashami agiye atandukanye, akorerwa aho hantu.

Ishuri rigaragara nk'ishuri ry'incuke ahagaragara igishushanyo cy'ikibabi ndetse n'ibice byacyo, icyo kibabi kikaba gishushanyije ku rukuta rusize irangi ry'umuhondo ahagaragara n'idirishya ririmo ibyuma.

lcyumba cy'isomero kigaragaramo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, icyo cyumba kikaba kigaragara nk'ikirimo ibitabo by'ubwoko bugiye butandukanye, bitewe n'isomo iryo ari ryo. lcyo cyumba inyuma yacyo hakaba hagaragara igikuta gisa umuhondo.

Abana babiri bagaragara nk'aho biga mu kiburamwaka, umwe ari gukaraba kuri kandagira ukarabe, impande yabo hari ishuri bigamo, uw'imbere ahagaze imbere asa n'uri guseka yambaye ishati y'umweru, uw'inyuma n'uw'inzobe uw'imbere asa igikara.

ubwogero bugezweho bwa kijyambere, ubwo bwogero bukaba beogeramo abana ndetse bikaba bigaragara ko harimo ibikinisho by'abana, bigaragara nk'aho inyuma yaho hari ikigo cyigisha abana b'incuke kuko hari ibikinisho by'abana by'amabara agiye atandukanye, bibafasha mu kuruhuka mu mutwe.

Igikapu kiza cyane cy'umutuku kiriho uturabyo. Icyo gikapu kikaba gifite akarabyo karimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu. Icyo gikapu kikaba kigaragara nk'icy'umwana wiga mu kiburamwaka, mu nshuke.

Ikigo kigaragara nk'i ishuri ry'incuke, hashushanyijeho ingorofani, umwiko, isuka, ndetse n'igitiyo ku gikuta cy'iyo nyubako yigishirizwamo abana b'incuke bambaye neza kandi batebeje.

Uburyo bwo kwita ku bana b'incuke bugezweho mu burezi bikaba bigaragara ko ari abana bari kwitabwaho biga mu nshuke, abo bana bakaba ari abana bakiri batoya bambara imipira y'icyatsi.

Ishuri ry'abanyeshuri b'inshuke, rigaragaraho igishushanyo cya Twiga ndetse n'igishushanyo cy'umugabo ku muryango, iryo shuri rikaba risa umuhondo ku nkuta zaryo, hasi hakaba harimo sima y'umukara.

Ishuri ry'inshuke rigaragara nk'aho ari ishuri rikoreshwa ry'inshuke, ryigishirizwamo abana batoya cyane kuko hashushanyije udupupe duke, uduturo, udupusi ndetse n'umugabo wambaye karuvati.

Inyubako igaragara nk'aho ari inyubako yigishirizwamo ahagaragara imyanya gogora ndetse n'uburyo umutima ukora, impande y'iyo nyubako hakaba haparitse igare rifite intebe isa umutuku ndetse n'ubururu.

lnyubako nziza iko ikoteyeho sima hasi ,iyo nyubako ikaba iriho ibishushanyo ,hakaba hari igishushanyo cy'umugabo ugaragara igice gitoya, ndetse n'igishushanyo cy'ipusi, n'ik'imbwa . Byanditse mu rurimi rw'icyongereza, ahagaragara n'ahaba higishirizwa abanyeshuri b'incuke.

Icyapa cyanditseho ngo ishuri, hasi hakaba handitseho mu nyuguti z'ibara ry'umweru ngo ni gute ushobora kwimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata ibyemezo, hasi hakaba handitse ishuri n'ubundi.

Ibikoresho bikoreshwa mu myigire y'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ibyo bikoresho bikaba biri mu ibara ry'umuhondo ujya gu gusa icyatsi ndetse n'ubururu bujya gusa umweru hejuru hasa icyatsi kijya kuba ubururu.

Ishuri ry'incuke, ishuri rigaragara neza risizeho irangi risa umuhondo rishushanyijeho igishushanyo cy'inka byanditse no mu rurimi rw'icyongereza hasi hakaba hari isima isa umukara ndetse n'akabaraza.

Udukoresho dufashwa nk'imfashanyigisho y'abana biga mu mashuri y'inshuke, hakurya hakaba hari isomero ririmo ibitabo mu tubati, hakaba hari udukoresho dukoze mu mashusho agiye atandukanye ku buryo byorohera abigisha abana kuba bafata.

Icyumba kigaragara nk'icyumba cy'isomero icyo cyumba kikaba kirimo ibitabo byinshi by'ubwoko butandukanye, icyo cyumba kandi kikaba kirimo ibikapu ndetse n'intebe zigezweho z'umweru. Ibyo bikapu bikaba biteretse ku meza ndetse n'ibyo bitabo bikaba biteretse hejuru y'akabati, impande yaho hakaba hari igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse n'urugi rusize irangi ry'umweru.

Inyubako igaragara nk'amashuri y'inshuke, iyo nyubako ikaba ishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye byifashishwa nk'imfashanyigisho, harimo amagare, ikarita y'u Rwanda ndetse n'umuntu ndetse n'amafi.

Ibishushanyo byifashishwa mu mashuri y'incuke mu buryo bwo gufasha abanyeshuri nk'imfashanyigisho mu mashuri y'incuke harimo intare, impala, ndetse na twiga, ingwe ingona, ndetse n'inzovu.

Abanyeshuri basa n'ab'inshuke, hakaba hagaragara umunyeshuri akaguru k'inyuma, asa n'uri kwinjira mu ishuri. Akaba ari inyubako ari kwinjiramo yigishirizwamo abanyeshuri b'inshuke, ishushanyijeho ibase ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo.

Inyubako nini cyane yigishirizwamo inshuke bitewe n'uko ku muryango ku nkuta hagiye hashushanywaho ibishushanyo bigiye bitandukanye bifasha abarezi b'inushuke kubasobanurira neza, harimo umugabo, ibendera ry'u Rwanda n'ibindi bishushanyo byinshi bitandukanye.

Ahangaha hagaragara ishuri ry'incuke, iryo shuri ry'incuke rikaba rigaragaraho umunyeshuri w'incuke wambaye amasogisi y'umutuku, akaba ahagaze yambaye agakabutura k'ubururu ndetse kuri iyo nyubako hakaba hashushanyije inzovu.

Udukinisho tw'abana tugiye dutandukanye. Utwo dukinisho tw'abana tukaba turi muri mpande eshatu, mpande enye, uruziga. Hakaba harimo udukomo n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Turimo udushushanyo tw'abana ndetse n'udutete birambitse ku gakeka gasa n'umweru ndetse n'umukara bivanze.

Ibikoresho bikoreshwa mu mibare bashushanya imirongo ndetse baca n'indi mirongo igiye itandukanye ndetse n'ikaramu y'igiti n'ikaramu isanzwe, bikoreshwa byifashishwa mu mashuri abanza ndetse n'andi mashuri agiye atandukanye.

Icyumba cy'isomero kirimo ibitabo bigiye bitandukanye by'amabara atandukanye bitewe n'isomo kirimo umugabo uri kugenda arambura buri gitabo areba ikirimo ndetse n'ibishushanyo birimo bitewe n'isomo iryo aryo.

Umwana wiga mu mashuri abanza bigaragara ko ari kwiga kwandika inyajwi ndetse n'ingombajwi ku kibaho mu nyuguti ndende, umwana bikaba bigaragara ko ashobora kuba yiga mu wa mbere bitewe n'uko ari bwo agitangira kwiga kwandika.

Ikigo cy'amashuri abanza bigaragara ko cyubatswe neza, kandi hagati yacyo hakaba harimo ibigega by'amazi ndetse n'akayira gatwikiriye ko kunyuramo, bigaragara nk'ikigo gisa neza kandi gikoze neza.

Inyubako y'ubwiherero, iyi nyubako ikaba isakarishije amabati, ifite inzugi zisize irangi ry'ubururu, ikaba ifite urupangu rwubakishije amatafari ahiye, isize n'irangi rijya gusa n'ivu.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bigaragara ko bicaye bahuze barimo kwiga, harimo n'uhagaze arimo kuderanja akubita hejuru y'intebe bigaragara ko ikayi ye irambitse hasi mu buryo bwo kwiga neza.

Ikigo kigaragara neza gisa n'icyubatswe vuba cy'amashuri abanza, iki ikigo kikaba kigaragara gisize irangi ry'umweru hasi ni umutuku ujya kuba muhondo ndetse kikaba gifite ubusitani busa neza kigaragara nk'aho ari icyubatswe vuba.

Igikoresho kibika ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya imirongo mu mibare, icyo gikoresho kikaba hejuru gisize irangi ry'umutuku, mu mpande umuhondo wa verine, icyo gikoresho kikaba kibika amarati, amakaramu ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kwandika.

Abanyeshuri bigaragara ko biga mu mashuri abanza, kubera ko bambaye amakabutura ndetse n'amakanzu, afite imishumi hejuru. Abo bakaba bagaragara nk'abari gukora amasuku yo mu kigo ,ndetse hakaba hari n'abateruye, n'abari gutoragura imyanda.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, harimo igikoresho gikoreshwa bafunga banafungura buro, hakabamo imakasi ikoreshwa mu gukata, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nka metero ndetse n'amakamba n'indodo.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha kubara mu mashuri abanza, iki gikoresho kikaba kigaragara mu mabara agiye atandukanye umutuku, umuhondo, ubururu, ndetse kikaba gifite imibare kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu bitewe n'ibyo bashaka gukora.

Ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya mu mibare baca imirongonko, baca uruziga, ndetse banaconga ikaramu y'igiti ikoreshwa mu gushushanya ibyo byose imirongo ndetse n'inziga ndetse n'agakoresho bibikwamo'akabafasha gushushanya inyuguti.

Ibikoresho by'ishuri byifashishwa mu gushushanya, harimo amarati y'uruziga, amarati maremare, amarati ya mpandeshatu ndetse hakaba hari n'ibikoresho bifashishwa mu guca uruziga ndetse n'ibisongora amakereyo.

Ibikoresho by'ishuri byifashishwa ku ishuri harimo ingwa, hakabamo imashini yifashishwa mu guteranya imibare, hakabamo amarati, hakabamo amakaramu y'amabara yose agiye atandukanye, hakabamo ndetse n'impakasi n'uburoso ndetse hakaba hari n'ikayi yo gushushanyirizamo.

Ibiziga bibiri binyuranyemo kimwe gifite ibara ry'ubururu ikindi gifite ibara ry'umutuku, aho bihuriye harimo ibara ry'ubururu niry'umutuku rivanze rijya gusa ubururu bwijimye, uruhande rumwe hari a ahandi hakaba b hagati na hagati hakaba harimo ikimenyetso kigaragaza aho bihuriye.

Ahantu hagaragaramo nk'ikigo cy'amashuri, ahagaragara ko hejuru hasakarishije amabati y'ubururu hariho inkingi zisa umuhondo ndetse n'amadirishya y'inzugi bisize irange bisa n'icyatsi.

Ibikoresho byo mu rugo bishushanyije kugikuta bigaragara nk'aho ari ibyo kwigisha abanyeshuri harimo ibitebo, hakabamo amasuka, hakabamo ibyifashishwa guhing, hakabamo nanjoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya. Harimo irati, ya kimwe cya kabiri cy'uruziga, ikereyo, ndetse n'andi marati agiye atandukanye, ndetse n'ibyifashishwa mu guca uruziga.

Ibikoresho bikoreshwa bashushanya harimo amarate y'ubwoko butandukanye, ay'uruziga ay'ampandeshatu ndetse n'irate ndende. Ndetse n'ikaramu yifashishwa mu gushushanya kereyo ndetse n'andi akoreshwa mu ruziga.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha imibare guca imirongo, harimo amarati aca imirongo miremire, aya mpande eshatu, ndetse hakabamo ni irate ca kimwe cya kabiri cy'uruziga ku ruhande hakaba hari ako bayatwaramo.

Ibikoresho bikoreshwa bashushanya. Harimo irati ndende ica umurongo, irati ya mpande eshatu ebyiri ndetse n'irati ya kimwe cya kabiri cy'uruziga n'udukoresho dukoreshwa tw'ibyuma dufite ikirindi kiparasitike dukoreshwa baca uruziga.

Ikigo kigezweho cyubatse neza ikigo kikaba ari inyubako igeretse y'ikigo cy'amashuri iza hakaba hari andi mashuri ariko yo asakarishijwe amabati y'umweru ndetse n'ay'umutuku icyo kigo kikaba nacyo gisakashishijwe amabati y'ubururu.

Ibikoresho bikoreshwa bashushanya uruziga, umurongo muremure ndetse n'impande eshatu ndetse hakaba hari n'ibindi bikoresho bikoreshwa n'ikaramu y'igiti ndetse n'ibindi bikoreshwa baca uruziga n'ibihanagura.

Ikigo cy'amashuri kigaragara igice cy'imbere gisize irangi ry'umweru, icyo kigo cy'amashuri gisakawe n'amabati y'ubururu gifitemo inkingi zisa ubururu ndetse n'inzugi zisa ubururu.

Udukoresho tw'udusanduku tw'ibyuma bibikwamo ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya imirongo, uruziga ndetse na kimwe cya kabiri cy'uruziga, ibyo bikoresho bikaba bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza birimo bigaragara ko bari gukora amasuku, bamwe barimo gukoropa abandi baterura imyanda, abandi barimo guhanagura ndetse no gukora andi masuku agiye atandukanye haba kuri a no b.

Ikigo cy'amashuri abanza kirimo ibikoresho bijyiye bitandukanye, kirimo udukinisho tw'abana biga amashuri y'incuke ndetse icyo kigo kikaba gifite inyubako igaragara neza, iyo nyubako ikaba ariyo igaragara ku ifoto.

Ni amasuka gakondo yakoreshwaga kera ahinga, akaba ari amasuka agaragara nk'aya kera yo mu mico ya kera, ayo masuka akaba afite imihini igiye itandukanye, akaba anaconze mu buryo butandukanye.

Udushushanyo twifashishwa kubara kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu, hifashishijwe amagi, udukombe, inanasi, ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye harimo inzogera ndetse n'utundi tugaragara igice gitoya.

Amarate atandukanye harimo irati ya mpande eshatu ebyiri, ndetse n'amarati aca umurongo ndetse n'aca kimwe cya kabiri cy'uruziga mu mabara agiye atandukanye icyatsi, umutuku, n'umuhondo, ndetse n'ubururu.

Ahantu hagaragara nk'ikigo cy'amashuri abanza hari abana barimo kurira mu dukinisho twabo basa n'abiga mu ishuri ry'inshuke, impande yabo hakaba hari abandi basa n'abarimo gukina saa yine cyangwa se ikindi gihe cyo kuruhuka mu mutwe.

Ibiziga bibiri bigaragara nk'aho ari amatsinda abiri mu rurimi rw'icyongereza itsinda rya D ndetse n'itsinda C, ibyo biziga bikaba birimo imibare igiye itandukanye ariko hari aho ibyo biziga bigiye bihurira harimo cumi na rimwe, karindwi ndetse n'icyenda.

Akabaho gatoya kari mu muzenguruko w'umuhondo gasize irangi ry'umukara, kanditseho ibisubizo by'ibizamini mu rurimi rw'Icyongereza.

Ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya harimo amarati maremare, hakabamo amarati ya mpande eshatu ndetse imbere yabo hakaba ari igikoresho gitwarwamo ibyo bikoresho byose.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kigaragaza urwunge rw'amashuri rwa rukomo yo mu karere ka Nyagatare.

Ibikoresho byo gushushanya harimo ikereyo, ibyifashishwa mu gucongaikereyo n'ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya uruziga hakamo amarati ya cyimwe cya kabiri cy'uruziga ndetse na ya mpande eshatu n'irate ndende ica umurongo.

Ibikoresho by'ubwirinzi harimo bote zo kwambara mu birenge, ndetse n'ibyambarwa mu ntoki, ndetse n'agapfukamunwa bikoreshwa mu buryo bw'ubwirinzi.

Inyubako igaragara neza igezweho, ingeretse ifite imbere hayo hasize irangi risa umweru, hejuru isakarishije amabati y'ubururu, iyo nyubako ikaba igaragara ko ari inyubako igezweho.

lkigo cy'amashuri abanza kigaragara nk'aho byigamo n'inshuke ,zambaye imyenda myiza, kandi imbere yabo hari abarezi babo, bambaye amataburiya y'umweru, icyo kigo kikaba kigaragara neza cyane.

Abantu bagaragara n'abarimu ndetse n'abayobozi bigisha mu bigo by'amashuri, bigaragara ko bishobora kubagisha mu mashuri abanza, bitewe n'uko ndi kubona ikigo inyuma yabo, gisa n'icyubatse ndetse n'ibiti bitanga umwuka mwiza mu kigo.

Ikibuga gikinirwaho umukino w'amaboko, iki kibuga kikaba hasi gikutiyemo sima ku buryo bigaragara neza ko ari ikibuga kirimo n'imirongo icyumweru gikoreshwa bisanzwe. Hakurya y'icyo kibuga hakaba hari umusozi ndetse bigaragara ko hakurya hari ikirere gifite igihu cy'umweru.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, bigaragara ko ari inyubako nini cyane y'amashuri abanza. Haruguru yayo hakaba hari ibiro bigaragara ko bishoboka ko ari ibiro by'abayobozi, ku ruhande rw'ibyo biro hakaba hari igiti kinini cyane, kirekire n'inyuma yizo nyubako hakaba hari ibindi biti.

Ahantu hagaragara nk'ikigo cy'amashuri abanza cyubatse neza mu buryo bugezweho, imbere yaho hari ikibuga ndetse icyo kibuga kikaba kirimo hamwe hari umucaca ahandi hasa n' umucaca muke muke ndetse bigaragara ko cyubatswe vuba gisize amarangi y'ubururu ndetse n'umuhondo inkingi zijya umutuku zisakaje amabati y'umweru.

Abanyeshuri babiri umukobwa n'umuhungu basa n'abarimo gukora imikoro ku kibaho, umwe arimo kwandika, undi arimo gutekereza ibyo kwandika na we ari kureba imbere.

Icyapa kiraho ku kigo cyisumbuye cya karangazi, icyapa kikaba kiriho amahame y'intore ndetse na kirazira. kikaba kiriho ikirangantego kigaragaza ikigo imiterere yacyo.

Umuyobozi uri gutanga ikiganiro agiha abanyeshuri bamuteze amatwi bicaye ku ntebe ari imbere yabo, akaba kuvugira muri mikoro abahereza ingero zitandukanye afashe n'urupapuro mu ntoki muri icyo kigo hakaba harimo n'ibiti hejuru bibarinda izuba ndetse bigatanga n'umwuka mwiza.

Abanyeshuri basa n'abicaye ahantu mu gisharagati, basa n'abari mu nama bambaye udupira hejuru tw'icyatsi, wagira ngo ni utw'itorero ryo ku rugerero, hejuru yabo hari imyambaro yubatse igisharagati mu ibara ry'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'inkingi zisa icyatsi, umuhondo, no ku ruhande hari abandi bayobozi.

Uburyo bugezweho bwo kwisukura intoki hagaragararira abanyeshuri bari ku murongo bagiye gukaraba intok, mu buryo bwo kwirinda kwanduzanya indwara zandurira mu mwanda ndetse hakaba hari n'uw'inyuma wambaye agapfukamunwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bigaragara ko bari mu ishuri inyuma yabo hari ingengabihe yo kwigisha iri ku kibaho gisa umukara harimo abahagaze ndetse n'abicaye.

Abanyeshuri bambaye neza bahagararanye n'abarezi babo, abo banyeshuri bakaba bambaye hasi ikake hejuru bakaba bambaye amakaruvati ajya gusa ubururu bwerutse ndetse n'amashati y'umweru nyuma yabo hari igikuta.

Ikigo cy'amashuri kigaragaraho abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, harimo abambaye hejuru umutuku ndetse n'umukara, hakaba n'abandi bambaye amashati y'umweru n'ay'umukara, bigaragara ko uburezi buri gutera imbere.

Abanyeshuri bambaye neza bicaye ahantu bakurikiye bigaragara ko basa n'abari mu nama cyangwa se barimo kwigishwa n'abarezi babo, bakaba bambaye amajipo ndetse na asa neza yicyatsi n'imipira y'umukara ndetse n'amashati y'umweru.

Ahantu hagaragara nk'aho ari ku bwiherero hari abantu bagiye batonze umurongo basa n'abagiye kwisayidira, abo bantu bakaba bagera muri batanu bose bambaye amajipo bigaragara ko hari nk'abakozi bakora aho ngaho imbere y'ubwo bwiherero hari ikigega gisa umukara kihubakiye.

Abanyeshuri babiri bari mu cyumba cyigishirizwamo iby'ikoranabuhanga, imbere yabo hatetse mudasobwa ku meza, izo mudasobwa bakaba basa n'abari kuzikoresha bose basa n'abahuze ,noneho ku ruhande hakaba hari igikuta gisa umukara, ndetse n'amadirishya arimo ibirahuri afite ibyuma bisa ubururu, n'irido ririmo ururabyo ndetse n'andi mabara atandukanye.

Abakozi basoa n' bambaye amajire bose bicaye ku ntebe nziza cyane zifite inkoni z'umweru ndetse naho kwicara no kwegamira h'ubururu, bose basa nabahuze bari mu nama buri wese imbere ye ku meza ariho igitambaro cy'ubururu hari icupa ryamazi ndetse n'agatabo ko kwandikwamo ibyavuzwe mu nama.

Abanyeshuri barimo gukora imirimo y'amaboko, bigaragara nkaho bari mu bijyanye n'amashanyarazi, abo banyeshuri bakaba bambaye amasarubeti y'ubururu, imbere yabo hari udusanduku tw'umuhondo tubikwamo ibikoresho.

Abanyeshuri benshi bicaye mu nama, aho bamwe bambaye imipira iciye amaboko y'umuhondo, abandi bambaye n'amashati y'umweru, imbere yabo hari igisharagati, bigaragara ko bicaye abayobozi barimo gukoresha inama.

Igipangu kinini cyane impande yacyo hakaba hari udukinisho tw'abana, bariramo umunyenga akenshi abana biga mu kiburamwaka, imbere yabo hakaba bari ipine isize irangi ry'umutuku ndetse n'iry'icyatsi.

Inyubako nziza nini igezweho, imbere y'iyo nyubako hakaba hari umugabo urimo kugenda, wambaye ishati isa umweru, hasi akaba yambaye ipantaro y'umukara icyo kigo kikaba ari ikigo kirekire, kigeretse.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ahagaragara ko uburezi buri kugenda butera imbere mu gihugu, aha ngaha hari abanyeshuri bambaye imipira iciye amaboko, imipira y'ubururu, ndetse bambaye umupira w'umuhondo harimo ndetse n'uwabambaye ishati iciye amaboko y'umweru.

Abanyeshuri benshi cyane basa n'abiga mu mashuri yisumbuye bambaye amashati ajya gusa ubururu bwerurutse, bari ahantu basa n'abifotoza, inyuma yabo hari ikibuga cy'umukino w'amaboko ndetse hari n'indabyo zijye zicunnze neza.

Ahagaragara nk'aho ari ikigo cya segondari, ni ikigo cya segoderi hakaba ari ibigo byinshi bitandukanye kuko byambaye impuzankano zitandukanye, bakaba bicaye ku ntebe bigiraho, bamwe bambaye hejuru umweru, abandi bakaba bambaye imipira iciye amaboko y'umuhondo, imbere yabo hakaba hari igisharagati kigaragara nk'aho ari abayobozi bari kubakoresha inama.

Abanyeshuri basa n'abari mu cyumba gikorerwamo imenyerezamwuga, bambaye amashati y'umweru, imikandara y'umukara, undi yambaye uw'ibendera ry'u Rwanda. Imbere yabo hari imashini buri wese ahagaze asa n'uhuze cyane, kandi izo mashini zikaba zisa ubururu ndetse n'umweru n'iyindi iteretse ku meza ku ruhande.

Abanyeshuri bari mu ishuri, imbere yabo hari umwarimu urimo kubigisha ibijyanye n'amasomo asanzwe, abo banyeshuri bakaba bambaye amashati y'umweru ndetse imbere yabo hari mudasobwa.

Abanyeshuri bane bari kumurongo, babiri bambaye imipira isa umuhondo iciye amaboko, umwe akenyeye nundi wimbeho abandi babiri bari imbere umwe n'umuhungu wambaye ishati y'umweru undi akaba yambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira k'icyatsi.

Abanyeshuri b'abakobwa bakora ubugeni, bigaragara ko bakora ubugeni mu myenda ndetse n'ibikomo bigiye bitandukanye mu myenda, aha haragaragara abambaye amashati y'umweru ndetse n'amakanzu asa na kaki.

Abanyeshuri biga mu kigo cyisumbuye basa n'abarimo kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga imbere yabo hari imashini zikoreshwa mu ikoranabuhanga za mudasobwa z'umukara ziteretse ku meza asa umutuku.

Abanyeshuri bicaye basa n'abarimo kuririmba, imbere yabo harimo umuyobozi wabo urimo kubadirija, bamwe bambaye hejuru ubururu ndetse hasi bakaba bambaye amajipo n'amapantaro bijya gusa umukara abandi bambaye imipira y'umukara.

Abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye barimo kumva inama bagirwa n'abayobozi babo, imbere hari abapolisi babiri ndetse n'undi mugabo wambaye agapira karimo amabara y'umweru usa naho umuyobozi, inyuma hakaba hari ibiti biri inyuma yaho ndetse hakaba hagaragara ibendera.

Ahantu harimo kubakwa inyubako nshya zigaragara nk'ikigo cy'amashuri, hanze hakaba hari abanyeshuri ndetse izo nyubako zikaba zigaragara nk'aho ari nshyashya zitarubakwa neza zitararangiza kubakwa. Impande yabo hakaba hari intebe zikoreshwa mu ishuri ndetse hakurya hakaba hari ishyamba.

Abanyeshuri bicaye mu mucaca, bari kumwe n'umuyobozi wabo umurezi ubigisha, inyuma yabo hari igikuta cy'amashuri, cyubakishije amatafari ahiye.

Umurezi urimo kwigisha abana be abasobanurira mu ma gurupe, aho bari kwigira mu buryo bwo kugira ngo banoze imyigire n'imyigishirize y'abanyeshuri ku rwego rwo hejuru, bigaragara ko arimo kubasobanurira mu matsinda bagiye barimo.

Icyapa kigaragaza ikigo cyisumbuye cya karangazi kiri mu karere ka Nyagatare, aha hakaba hari moto iparitse iruhande rw'inyubako isize iranjye ry'umuhondo, haruguru hakaba hari amashuri ndetse n'ubusitani bwiza burimo indabyo ndetse n'aho kwicara.

Ahantu hagaragara nk'ikigo cy'amashuri agezweho yubatse kandi neza impande yaho hari abanyeshuri benshi bagera muri batandatu ndetse n'umurerezi wabo wari inyuma yabo wambaye itaburiya y'umweru, iruhande hakaba hari ubusitani bw'umucaca busa icyatsi.

ikibumbano cy'umuntu gisa n'ikiri kumenagurika gisa naho gisa n'igishaje ku rundi ruhande hari ikindi kibumbano cy'umuntu, imbere yacyo hari udusenyege tw'ibyuma, inyuma hari utundi tubumbano tuhabumbiye ndetse aho hantu hasa n'akorerwa ububumbyi.

Igishushanyo kigaragaza inyubako y'urusengero mu ishusho igaragara neza kandi isa neza, icyo gishushanyo kikaba kigaragaraho urusengero rurimo imiryango ndetse n'utundi tuzu two ku mpande.

Inyubako igaragaramo igikorwa remezo imbere yayo hari ikigega gisa umukara, iyo nyubako ikaba hasi hashashe amapave ikaba isakarishije amabati y'umutuku, ifite inkingi zisize irangi ry'umweru ndetse n'inkuta zisa umweru.

Ubusitani bumeze neza, ubwo busitani bukaba bufite inzira y'abanyamaguru ishamo amapave, ku mpande zayo hariho ibisima bitandukanye, bisize amabara y'umukara ndetse n'umweru, hakaba hakikijwe ndetse n'indabyo z'ubwoko butandukanye.

Udutebe twiza tw'ubururu duteretse ahantu hasi hashashe amakaro, utwo dutebe tukaba twifashe nk'udutebe dukoreshwa muri kaminuza mu banyeshuri, utwo dutebe tukaba tugaragaramo udutebe twa palasitike, hasi dufitemo umwobo ndetse imbere yaho handitse inyuguti mu ibara ry'umweru.

Icyumba kigaragara neza gisize irangi ry'umweru ndetse n'umukara hasi, kikaba gipavomyemo sima icyo cyumba kikaba kirimo umugabo usa n'koresha mudasobwa, uwo mugabo iruhande rwi rw'iyo mudasobwa hakaba hari izindi mashini hari ibamo umuti w'amabara agiye atandukanye ndetse n'ifotora impapuro.

Abantu benshi basa n'abari mu cyumba cy'inama, ni abantu basa n'abahoze bakurikiye umuyobozi, icyo cyumba k'inama kikaba gifite amadirishya y'ibirahuri ndetse n'inzugi zisize irangi ry'umweru n'inkuta zisa umweru.

Ikigo cyiza cyane cyubatswe neza kigaragara nk'ikigo cya kaminuza, ku buryo harimo n'abazungu barimo kuhava ndetse n'abirabura bari kumwe na bo, barimo baganira, bari mu nzira y'umuhanda ushashemo amapave.

Abanyeshuri barangije kaminuza bambaye amakanzu agiye atandukanye ndetse n'ingofero, bigaragara ko bahawe impamyabushobozi za kaminuza basoje kwiga, imbere yabo hari abayobozi babo.

Abanyeshuri ba kaminuza basa n'abahawe impamyabushobozi zabo, bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'ingofero zigiye zitandukanye z'umukara, bigaragara ko bahawe impamyabushobozi z'amashuri bize.

Abanyeshuri basa n'abiga muri kaminuza barimo gukora imikoro bahawe bafite telefone ku meza yabo ndetse n'amakayi bigaragara'ho bose bahuze buri wese arimo kwandika asa n'uri mu gukora imikoro.

Abanyeshuri basa n'abiga muri kaminuza, bose bafite mudasobwa imbere yabo z'umweru, basa n'abarimo kwiga. Aba banyeshuri bakaba bicaye ku ntebe zisa ubururu bweherutse bajya kuba umweru.

Abanyeshuri basa n'abiga muri kaminuza, abo banyeshuri bakaba bigaragara ko bakurikiye abarimu ndetse bashobora no kuba barimo kwiga, imbere yabo hakaba hari amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa, izo mudasobwa imwe ikaba isa umukara.

Inyubako igaragara igice cy'imbere ku nzugi bigaragara ko ari inyubako ya gatandatu y'abarimu ba kaminuza, iyo nyubako ikaba isize irangi ry'icyatsi ku nzugi ndetse hakaba hariho n'amakaro y'aba.

Ahantu hari imbuga ishashemo amapave, ku ruhande wegera igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse n'umukara hakaba hari umuyoboro w'amazi hejuru utwikijeho ibyuma kugira ngo umuntu ataba yagwamo ndetse hakaba hari n'aho bamenye beto hashobora gusohokera amazi.

Umu mama wambaye agapfukamunwa k'umukara, wambaye ikoti ry'umukara, ateretse imashini ya mudasobwa imbere ye asa nuri kuyikanda n'amakaramu kuruhande ndetse n'igitabo. Hakurya ye hari izindi mashini zitandukanye bigaragara nkaho ari mu biro kuko hakurya hari n'abandi bantu harimo uwambaye umupira w'umweru.

Ishuri rigaragara nk'ishuri rya Kaminuza y'u Rwanda, ryanditse mu rurimi rw'icyongereza ku madirishya, ariho ibyuma bisize irangi ry'umweru ndetse hakabamo n'ibirahure bibonerana, iryo dirishya rikaba rikururura ibiti.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, barimo kwandika ibintu bigiye bitandukanye bagaragara nk'abari mu ishuri, aho bari gusobanurirwa na mwarimu wabo ibintu bitandukanye ku isomo.

Abanyeshuri bagaragara nk'aho biga muri kaminuza. Abo banyeshuri bakaba barimo barebera mu cyuma gikoreshwa bagenzura banareba niba ikintu gifite ubuziranenge cyangwa se kitarwaye cyangwa se kitanduye.

Ikibumbano cy'umuntu gifite umusatsi ndetse iruhande rw'icyo kibumbano hakaba hari ikindi kibumbano kibumbye gisa n'imbabura ndetse no hepfo hakaba hari ikindi kihabumbiye bigaragara nk'aho bakorera ubukorikori mu ibumba.

Imbuga nini cyane isashemo amapave, imbere yayo hakaba hari amagare atatu aparitse ahantu hasa n'ahasakaye hari inkingi z'umutuku, hakaba hari n'abantu hari umugabo wambaye agapira k'umukara, ipantaro y'ikoboyi.

Intebe nziza zikoreshwa muri kaminuza, izo ntebe zikaba zigaragara aho uba wicaye imbere hari akameza witerekeraho nka mudasobwa cyangwa se ikayi ukandika ukaba wanakoreraho n'umukoro.

lcyumba cy'inama kirimo abantu benshi imbere yabo hakaba hari umuyobozi wambaye ishati y'ubururu urimo kuvugira muri mikoro ,ndetse bakaba basa n'abamuteze amatwi ,imbere harimo n'abamwitegereza bamureba Icyo cyumba akaba ari icyumba kinini ,gifite inkuta z'umuhondo inyuma mu mpande umweru.

Ibishushanyo bishushanyije neza, bigiye biteye ku nkuta, harimo imbuto zitandukanye inanasi, amaronji, ndetse n'izindi zitandukanye, zishushanyije hasi hakaba hariho n'ikibabi, bigaragara nk'aho ari ku ishuri.

Inyubako yubatse neza igaragara igice cy'imbere, aho igaragara urugi rusize irange ry'icyatsi rwanditseho hara ndetse imbere hayo hakaba harimo purafo, iyo purafo ikaba irimo itara rimanitse hejuru.

Abanyeshuri biga muri kaminuza basa n'abari mu isuzumiro, aho basuzumira ibintu bigiye bitandukanye, aha ngaha bikaba bigaragara nk'aho bari gusuzuma ibintu bigiye bitandukanye, bambaye amataburiya y'umweru.

Ibikoresho bya gakondo harimo ibinika, imbabura ndetse n'inkono bifite imipfundikizo. Ibyo bikoresho bikaba bibumbye mu ibumba biteretse ku meza.

Abanyeshuri ba kaminuza barimo kwiga imbere yabo hari umwarimu urimo kubigisha, hari ndetse n'imashini ya mudasobwa aba abanyeshuri bakaba bamukurikiye barebye imbere aho ahagaze.

lgishushanyo kigaragaraho imbuto zigiye zitandukanye ,harimo ;inanasi, imineke, ndetse n'amaronji .Bishushanyije nk'ubugeni mu bijyanye no gushushanya, aho bigaragara nk'ibishushanyije neza.

Inyubako nziza igaragara nk'Ishuri rya kaminuza igeretse, ku nkuta zayo hakaba hasize irangi ry'umweru, inyubako ifite ubusitani ku mpande, bufite aho guca hashashemo amapave kandi hakaba harimo n'indabyo ziconze neza.